Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'inkumi. Ahantu bicaye biragaragara ko ari ahakorerwa imyidagaduro itandukanye irimo ibitaramo ndetse n'ibiterane bifite aho bihuriye no guhimbaza Imana.

Abantu bambaye impuzankano y'ubururu kandi basukuye imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ari kwifashisha kugirango bamanure bice inyota, afite uruvugiro mu ntoki.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi b'ingeri nyinshi zitandukanye harimo abayobozi abayoborwa ndetse n'abahagarariye imishinga iri gutangwaho amahugurwa bicaye ku ntebe nziza zitukura imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho babifiti.

Abagabo bane bicaye ahantu hamwe ku ntebe, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, hafi yabo hari icyapa kinini cyane cyanditseho inyuguti nyinshi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abaturage benshi biganjemo abogore n'abagabo bigaragara ko bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imituku kandi hasi hariho ibara ry'ubururu.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama, bigaragara ko bari kwiga ku myanzuro y'ibibazo bafite, imbere yabo hari mudasobwa

Abantu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko harimo abagore n'abagabo; umwe muri bo yicaye atuje cyane yumiwe ku buryo atazi ibijya mbere.

Abayobozi biganjemo abagabo n'abagore bicaye mu nama imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umutuku n'umweru ndetse n'amazi bari kunywa.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe ku ntebe bigaragara ko bari mu nama itandukanye harimo abakozi bakorera ikigo igihugu gishinzwe itumanaho.

Abagore batatu beza cyane ubona ko ari abayobozi b'inzego z'ibanze; imbere yabo hari ameza ateretseho agaseke, amazi ndetse n'ibikapu byabo, bigaragara ko bari kuganira ibyagirira igihugu akamaro.

Abaturage bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama rusange, harimo inzego z'umutekano ndetse n'iz'abayobozi b'ibanze, bicaye ku ntebe z'imbaho kandi zikomeye.

Abagore bakuze cyane bigaragara ko bambaye neza imishanana, ndetse n'ibindi mu mutwe kandi imisatsi isukuye bigaragara ko ari abantu bafite umuco.

Abayobozi biganjemo abagore n'abagabo ubona ko biyubashye, hari bicaye mu cyumba k'inama bigaragara ko bari kuganira ku bintu byinshi byagirira igihugu akamaro, imbere yabo hari mudasobwa ziri kwifashishwa mu kubika amakuru bari kuganira.

Icyumba cy'inama kirimo abagore ndetse n'abagabo. Bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa. Bitwaje amakayi n'amakaramu, biga ku bibazo.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo, harimo abambaye impuzankano y'imipira y'ubururu, bigaragara ko bishimye cyane kuko akanyamuneza ni kose mu maso yabo. Imbere yabo hari ameza ateretseho indabo ndetse n'ibitambararo by'umuhondo.

Abayobozi bicaye hamwe mu nama kandi batuje. Inyuma yaho hari umugabo muremure wambaye ijire y'icyatsi bigaragara ko ari gufata amashusho y'ibiri kubera aho hantu kandi atuje cyane.

Abagore n'abagabo biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bambaye impuzangano bigaragara ko bari mu nama, barizihiwe kuko imbere yabo hari ameza ateretseho ibinyobwa bidasembuye bibafasha kumererwa neza igihe bakurikiye amasomo.

Umuyobozi wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye ikoti, ishati ndetse na karuvati, imbere ye hari ameza ateretseho amazi, bigaragara ko ateze amatwi ikiganiro kirimo gutangwa n'abamuri imbere.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba bigaragara ko bari mu nama. Hafi yabo hari ameza ateguweho ibitambara by'umweru. Iruhande rwabo hariho umugabo uri gutanga ikiganiro afite uruvugiro mu ntoki.

Umugabo munini cyane ufite umusatsi mutoya, uhagaze imbere y'uruvugiro bigargara ko ari gutanga ikiganiro imbere y'abaturage bamukurikye aho ngaho.

Abayobozi mu nzego zinyuranye za leta bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama hari kandi abafotozi bari gufata amafoto kugira ngo bigaragare ko bari kumwe n'abayobozi.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bigaragara ko ari mu cyumba cy'inama. Higanjemo abagore n'abagabo bateze amatwi umuyobozi wabo. Imbere yabo hari ameza ariho amazi bifashisha mu kunywa.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bicaye ahantu bigaragara ko ari mu nama intebe z'umukara n'ameza ajya gusa umuhondo imbere yabo hariho mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Ifoto igaragaza umuyobozi wambaye ikoti, karavati ndetse n'ishati y'umweru, afite agasatsi gatoya n'uruvugiro mu ntoki bigaragara ko ari gutanga ikiganiro ku baturage bamukurikiye.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bamwe bambaye ibitambaro by'imyeru mu mitwe ndetse n'amakanzu y'icyatsi n'ubururu.

Umugore munini cyane wambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'igitambara mu mutwe urimo gutanga ikiganiro wamukurikiye.

Icyumba cyiza cyane cyabugenewe kirimo intebe nziza zitandukanye, bigaragara ko ari icy'inama. Harimo abantu benshi b'ingeri zose, barimo abagore n'abagabo bateze amatwi umuyobozi uhagaze imbere yabo.

Abantu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari insakazamashusho iri kubasha kubereka ibyo bari kwiga, ndetse n'umwarimu uri kubasobanurira icyo kigisho.

Mu muhanda rwagati mu masaha y'ijoro aha hino kuri iki gice kigendedwaho n'abanyamaguru hari ububiko bwagenewe kubikamo cyangwa kujugunywamo imyanda ikoreshwa n'abakoresha umuhanda harimo ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda bibisikana by'umwihariko imodoka inini n'intoya ndetse n'abanyamaguru bari gukoresha umuhanda.

Abayobozi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ndetse na mudasobwa bari kwifashisha mu kuganira ibitekerezo byunguka kandi byubaka umuryango mugari.

Abayobozi benshi batandukanye bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru na telefone barimo kwifashisha.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama bateze amatwi umuyobozi. Bari mu ngeri nyinshi zitandukanye harimo abakecuru, abasaza, ndetse n'abagabo.

Abayobozi bicaye ahantu hamwe ku ntebe z'umukara bigaragara ko bari kuganira n'ibintu byinshi bitandukanye, hafi yabo hari mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi bigaragara ko ibyo bari kuvuga barimo kubyandika.

Abantu bicaye ahantu hamwe hatwikiriye bigaragara ko bari mu nama, bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro yimikara harimo abagore n'abagabo kandi basukuye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'ibikapu.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara imbere y'ameza y'umutuku. Hafi yabo hari mudasobwa ndetse n'amazi yo kwifashisha banywa.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura imbere yabo hari ameza ajya gusa umutuku ariho amazi ndetse n'imashini amakayi, n'amakaramu bari kwifashisha mu kuganira bigaragara ko bari mu nama.

Abayobozi batatu bicaye ahantu hamwe harimo umugabo umwe ndetse n'abagore babiri, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'uruvugiro igaragaza ko bari kuganira ku byemezo bafatira abaturage.

Inama yiganjemo abagore n'abagabo bari kwandika bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ariho amazi, telefone ndetse n'amakayi bari kwifashisha mu kwandika ibyavugiwe aho ngaho.

Abaturage bicaye bigaragara ko bari mu nama. Bateze amatwi umuyobozi ndetse n'undi muturage urimo gutanga ikibazo.

Abagore, abagabo, intebe, ameza, ibyapa, akabati, inzu, miyikorofone.

Abantu bicaye mu cyumba mberara byombi bigaragaza ko bari mu nama, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amazi amataye n'ibindi bikoresho nkenerwa, kugira ngo babashe kwandika no gusoma ibyo bari kwiga.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Abagore n'abagabo bicaye imbere y'ameza ateretseho amazi bigaragara ko bari mu nama afite mudasobwa amatoyi ndetse n'amakaramu byo kwandikisha imbere yabo hari ibishushanyo biriho ibendera ry'u Rwanda.

Umuyobozi uri mu cyumba k'inama uri kuganiriza abaturage yambaye ijiri y'umukara imbere ye hari ameza ariho amazi.

Abayobozi batatu barimo umugore umwe n'abagabo babiri bicaye imbere y'ameza ariho mudasobwa ndetse n'amazi, biragaragara ko bari kwiga ku bibazo byagirira igihugu akamaro ndetse n'inyunganizi kuri byo.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bigaragara ko ari abayobozi ,bari mu nama hafi yabo hari ameza ariho ibitambararo by'umuhondo ni ntebe z'umutuku. Imbere yaho hari amazi na mudasobwa bari kwifashisha mu nama.

Biganjemo urubyiruko abasore ndetse n'inkumi, bicaye ahantu hamwe bigaragara ko hakorerwa imyidagaduro bambaye amajire yubururu ndetse n'imihondo abandi bambaye ingofero nziza cyane.

Bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko ari mu cyaro hadateye imbere, abagore n'abagabo bafite amatungo magufi mu ntoki yiganjemo ihene n'intama, ku buryo ubona ko ari ibintu byiza cyane, hari kandi inzego z'umutekano.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ariho telefone zitandukanye, bigaragara ko bari mu nama bakurikiye umuyobozi ubari imbere.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu byinshi birimo mudasobwa n'amazi akoreshwa mu kumanura akavumbi.

Abagore n'abagabo bigaragara ko bishimye, bambaye imipira y'ubururu ndetse n'imishanana. Hafi aho hari abakobwa bari kubyina bishimye cyane kuburyo ubona ko bameze neza.

Abayobozi benshi bicaye imbere ya mudasobwa bari kwandika ibinyamakuru imbere yabo hari amazi menshi cyane bari kwifashisha bari kunywa kandi hari ameza.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abasore bigaragara ko bari mu nama ,bamwe baricaye abandi barahaga inyuma yabo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi bicaye ahantu bigaragara ko ari mu nama, harimo abantu bari mu nzego zitandukanye barimwo nk'ingabo z'u Rwanda zambaye impuzankano y'igisirikare, hari kandi n'undi wambaye iy'igipolisi cy'u Rwanda.

N'umugabo bicaye mu cyumba bigaragara ko ari icy'inama. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho byinshi bitandukanye. Birimo amazi, ikayi, telefone ndetse na mudasobwa.

Inzu mberabyombi isukuye kandi iriwo intebe zihagije bigaragara ko hakorerwamo imyidagaduro itandukanye ndetse n'ubukwe bwa kinyarwanda harimo abantu benshi benshi kandi bigaragara ko bishimye.

Umunara muremure wubakishijwe kandi uzitijwe n'ibyuma hafi aho ngaho hari abakobwa babiri barimo kugenda hari n'akazu gasize amarange.

Igorofa rirerire cyane bigaragara ko ari ryiza cyane hafi aho hari abantu bari kuhatembera ndetse n'ubusitani butandukanye ikirere cy'aho hejuru gisa ubururu.

Abantu benshi bicaye ahantu heza cyane, biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bicaye mu matsinda atandukanye ku meza y'ubusesenguzi baganira ku bibazo bitandukanye, babishakira ibisubizo.

Umunara muremure uri hafi y'umuhanda w'igitaka, wubakishije ibyuma bisa icyatsi n'umweru, hafi yawo hari akazu kariho amatafari ndetse n'urugi.

Ahantu heza kandi nyaburanga hari umunara muremure cyane uriho ibyuma by'umutuku ndetse n'umweru, hafi yawo hari akazu abantu baba barimo mu gihe bari kuwurinda.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bisize amarangi y'umweru mu mufuko, hari kandi akazu kifashishwa n'abazamu baba bari kurinda ibikoresho byaho ari ibiti birebire bigaragaza ko byatewe neza.

Ahantu hataguwe neza, bigaragara ko ari mu cyumba cy'ikoranabuhanga. Hafi y'abanyeshuri ndi kubona bambaye udupfukamunwa tw'umukara, hariho ameza ateretseho mudasobwa nyinshi zitandukanye, n'umwarimu uri kubakurikirana.

Umunara muremure w'ikoranabuhanga, wifashishwa mu itumanaho kugira ngo abantu babashe guhuza ubutumwa. Hubakishijwe ibyuma biriho amarangi y'umutuku, ndetse n'umweru. Hariho kandi amatara abifasha kugira ngo bimurike.

Umugore uri kwinjira munzu nziza cyane Ari hafi aho ngaho ifite imiryango y'icyatsi n'umuhondo, iteye iregi ryiza cyane bigaragarako isukuye neza.

Umunara muremure cyane wubakishijwe n'ibyuma byinshi n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, bigaragara ko ari uw'itumanaho ufasha abantu guhuza amakuru ndetse no kwihutisha ikoranabuhanga.

Igishushanyo kiri mu mabara y'ubururu n'umweru kiriho amabwiriza atandukanye, adufasha kwirinda impanuka ziterwa no gukoresha gaze nabi mu ngo zacu kuburyo tugomba kuba turinzwe neza.

Ahantu heza bigaragara ko ariwo umujyi ukorerwamo ubucuruzi butandukanye. Hari uruhererekane rw'amazu atandukanye akorerwamo imirimo itandukanye, imbere yayo hari imodoka ndetse n'umutaka w'umuhondo bigaragaza ko hari serivisi nziza.

Igorofa rirerire ryubakanye ubuhanga ndetse n'ubuhangange, bigaragaza ko uwariteguye ari intakemwa, hasi yayo hari abantu benshi batandukanye b'ingeri zose abagore ndetse n'abagabo.

imodoka bigaragara ko ihagaze ahantu hamwe ifite ibara ry'umweru kandi itwaye urwego rurerure bifashisha mukurira kandi hari n'ibiti.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma by'umutuku, n'umweru. Uzitijwe ndetse n'ibindi. Hafi aho ngaho hari amazu meza, afite ibisenge by'amabati.

Abaturage bigaragara ko ari abagore n'abagabo, bahagaze hafi y'uruzitiro rw'ibiti. Hejuru yabo hari umuyoboro w'amashanyarazi ugaburira umudugudu uri hafi aho batuye.

Inzu nziza iri n'ahantu hasukuye ifite igisenge gihenze cyane cy'amabati atukura hejuru yayo hari icyuma cyifashishwa mu gushyushya amazi yo koga iruhande yayo hari icyapa kiriho amabara y'ubururu.

Ahantu heza cyane hatunganyije bigaragara ko ari ho hatunganyiriza umuriro w'amashanyarazi, hafi yaho hari ibiti birebire cyane bikurura umwuka n'ubusitani buhagije.

Urusisiro runini cyane rurimo umuyoboro w'amashanyarazi ku muhanda ndetse n'amatara amurika, harimo abantu benshi b'ingeri nyinshi zitandukanye ibibinyabiziga ndetse n'ibindi bintu bigaragaza ko hatuwe cyane.

Urusisiro bigaragara ko rutuwe cyane rurimo amazu menshi kandi meza yubakishijwe amatafari ndetse na sima hariho umunara muremure cyane w'itumanaho, bigaragara ko wifashishwa mu ikoranabuhanga ritandukanye.

Urusisiro rwiza cyane bigaragara ko ari ahantu hatuwe harimo inzu nziza zubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwazo hari ibyuma birebire bamanikaho amashanyarazi ndetse bigaragara ko ariho aturuka.

Ipoto, insinga, vanderateri, inzu, umusaraba, ibiti, antene,

Isangano ry'imihanda ihurira ahantu hamwe, hari ibyapa bibuza abantu kugenda uko biboneye ndetse n'ibinyabiziga, bibategeka uko bagenda ndetse n'iminota bagomba kuhamara.

Agace keza gateye amatsiko kugatembera uri wenyine kandi n'amaguru, hariho imihanda myiza, ubusitani ndetse n'ibindi bitandukanye byakunezeza igihe uhanyuze.

Umukobwa mwiza cyane, ufite imisatsi myinshi cya, myinshi wambaye umupira w'ubururu, urimo gukoresha mudasobwa atanga amakuru.

Ibitaro byubatse neza bigaragara ko ari ibya Masaka bifite igisenge cy'umutuku n'amarangi y'umweru, hafi yaho hari abantu biganjemo abazungu ku buryo kubatandukanya biba bikoroheye cyane bitewe n'uruhu rwabo.

Ahantu heza hasukuye, hari amazu menshi cyane afite ibisenge by'umutuku n'irangi ry'umuhondo. Hari urubaraza rwiza cyane, rurerure, rwubakishije ibyuma bisize irangi.

Ahantu heza kandi hasukuye bigaragara ko ari kwa muganga hari urubaraza rwubakishijwe ibyuma ndetse n'amabati iruhande yarwo hari imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abarwayi barembye.

Ahantu heza kandi hasukuye hubakanwe ubuhanga, bigaragara ko ari kwa muganga kuko hari imodoka nyinshi zitandukanye zo mu bwoko bw'imbangukiragutabara zifashishwa mu gutwara abarwayi barembye cyane.

Ahantu heza cyane hari inyubako nziza cyane, hafi aho ngaho hari abantu bane, umwe wambaye iserubeti y'ubururu, inyuma yabo hari imodoka eshatu zisa umweru.

Inzu nziza cyane zifite igisenge cy'umutuku n'amatafari ahiye bigaragara ko ari ari izo guturwamo hafi yazo hari ubusitani bwiza cyane busukuye.

Abagabo babiri n'abakecuru batatu, bahagaze hafi y'idirisha, umwe afite igikapu mu mugongo, yambaye n'umupira w'icyatsi, n'ipantaro y'umukara.

Ahantu bigaragara ko ari mu kigo cya leta, haparitse imodoka z'ubwoko bwinshi butandukanye kandi zisukuye, hari kandi amazu ndetse n'amatara abasha kurinda umutekano w'aho.

Inyubako nziza kandi isukuye bigaragara ko yitaweho cyane, imbere yayo hari ubusitani burebure cyane n'igiti kirekire cy'umukindo cyifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Abantu bagera kuri batanu bicaye ahantu hamwe ku gasima bigaragara ko bategereje umuntu wabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi bari gushaka uwabatunganyiriza ibyo bashaka.

Ahantu heza hasukuye bigaragara ko ari kwa muganga hari ibikoresho byinshi bitandukanye nk'imodoka nyinshi zo mu bwoko bw'imbangukiragutabara zifashishwa mu gutwara abarwayi barembye cyane.

Urupangu rurerure bigaragara ko ari urwa gereza, hafi yarwo hari umunara muremure abarinzi bayo bayifashisha bacunga umutekano kugirango hatagira ikiwangiza.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bambaye impuzankano igaragaza ko barimo kugororwa, hafi yabo hari abandi bambaye izindi bafite inshingano zo kuba ari abacungagereza.

Umugororwa bigaragara ko adashaje cyane, wambaye imyenda y'abagororwa. Hafi ye hari abasaza benshi cyane ndetse n'abagabo bamugaragiye. Iruhande rwe hari umucungagereza kandi ubifitiye ububasha, bigaragara ko ari mu rukiko.

Umugabo muremure cyane, bigaragara ko nta musatsi afite, yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, afite uruvugiro mu ntoki, ari gutanga ikiganiro, inyuma ye hariho ikirangantego cy'igihugu, ndetse n'intego igihugu kiyemeje.

Abayobozi mu nzego zinyuranye za leta biganjemo abagore n'abagabo, bahagaze imbere ahantu hasukuye; bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umugororwa wambaye ishati y'iroze bari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko barikuganira ku kibazo umugo arimo kuzira.

Abagabo benshi bicaye ahantu hamwe bambaye impuzankano yo kugororwa inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari aheya ndetse n'amadirishya matoya bigaragara ko bari kuganira kandi bari gusangira ijambo.

Inzu mberabyombi irimo intebe zisa umutuku n'abantu bigaragara ko ari abanyamategeko. Hafi aho ngaho hari umugore wambaye ikanzu y'umukara n'agapfukamunwa kajya kuba icyatsi. Afashe ku ibendera ry'igihugu, bigaragara ko arimo kurahira.

Ifoto igaragaza umugore wambaye impuzangano y'igisirikare cy'u Rwanda, kugira ngo arahire inshingano zo gukunda igihugu no kukirinda ndetse no kukirwanira igihe bibaye ngombwa.

Umugore munini cyane uhagaze ahantu hirengeye bigaragara ko ari ugutanga ikiganiro ku baturage, inyuma ye hari inyubako ifite amarangi meza kandi yubatse ahantu hasukuye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze imbere kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, bambaye amakote y'umukara ndetse n'amashati, nyuma yabo hari icyapa kinini mu mabara y'ubururu.

Abagabo batatu bicaye ahantu hamwe, bigaragara ko bari kujya inama. Bambaye imyenda y'umukara cyane kandi isukuye ndetse n'udupfukamunwa, bigaragara ko bari kwirinda indwara z'ubuhumekero.

Umugore munini cyane ufite isuku bigaragara ko akuze yambaye, ikoti ry'umutuku n'ishati y'umweru, afite imisatsi miremire cyane n'amaherena ku gutwi, bigaragara ko ari umusirimu.

Umugabo yicaye mu ntebe iri mu ruganiriro ari kunywa inzoga nyuma ye hari irange risa ubururu, iruhande rwe hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Abagororwa bambaye imyenda yabugenewe bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko bari mu rubanza hafi yabo hari umugabo n'umugore bicaye ku dutebe, inyuma yabo hari imodoka y'umweru.

Icyapa kinini kigaragaza aho igurero rya Musanze riherereye, hafi aho hari inyubako irimo ubusitani butandukanye n'ibindi bikenewe kugira ngo babashe kubungabunga no kurinda abagororwa.

Icyumba bigaragara ko ari icyo guciramo imanza zitandukanye, harimo ababishinzwe mu mategeko atandukanye, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa ndetse n'amakayi bari kwandikiramo n'inyundo yo kwifashisha.

Umugabo munini cyane wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda bigaragara ko ari gutanga ikiganiro ku baturage ku buryo bwo kwicungira umutekano n'ibintu byabo.

Umugabo munini cyane kandi wambaye wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, biragaragara ko ashinzwe umutekano wo mu muhanda, hafi aho hari imodoka arikubwira ko zigomba guhagarara ku ruhande.

Imodoka ebyiri ziri ahantu bigaragara ko ari mu mbuga, imwe ni iy'urwego rushinzwe umutekano mu muhanda, hirya ho hari ibiti bitandukanye.

Icyapa kinini cyane kiriho ibiranga ibirango bya polisi y'u rwanda bigaragara ko ari ku cyicaro gikuru. Hafi yacyo hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ku buryo bigaragara ko biyungurura umwuka.

Abanyeshuri batandukanye biganjemo abakobwa n'abahungu , bari kwigishwa ibijyanye no kumenya gukoresha ibyuma bifasha kuzimya inkongi y'umuriro , hari inzego z'umutekano zitandukanye ziri kubahugurira ibyo bintu.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe bibaye ngombwa, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'itiyo yifashisha mu kohereza uwo mwuka ahantu hari gushya.

Abagabo bari gutambuka mu muhanda ku binyabiziga byabugenewe kandi bambaye impuzangano y'igipolisi cy'u Rwanda, n'imodoka zabo ziriho ibirango by'icyo gihugu.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye ijiri yabugenewe yahagaritse undi muyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo amubaze ibyangombwa bitandukanye bimwemerera kuba akora umurimo wo gutwara imodoka ,biragaragara ko yahagaze kugira bavugane .

Uko bigaragara ahantu habaye impanuka y'inkongi y'umuriro. Hari abakozi babigenewe bambaye imyenda irimo uturongo tw'icyatsi, ndetse n'ingofero zisa umweru. Inyuma yabo hari imodoka iri kubafasha mur'icyo gikorwa.

Abagabo banini kandi barebare bambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda hafi yabo hari umuhanda munini urimo moto y'umweru ndetse n'imodoka y'umukara.

Umuhanda mwiza mugari uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye hafi yawo hari imodoka ihagaze, kuruhande ndetse n'igorofa rirerire ryubakanywe ubuhanga n'ubuhangange.

Ahantu habugenewe hagaragaza igikoresho kifashishwa mukuzimya inkongi y' umuriro, hari Kandi igishishanyo kigaragaza uburyo gikoreshwa n' uburyo kitabwaho.

Umuhanda munini unyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka ndetse moto n'amagare hafi y'uwo muhanda hariho ibiti birebire bigaragaza ko byifashishwa mu kurinda ibiza cyangwa isuri.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka nyinshi kandi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, inyuma yayo hari ibiti birebire bigaragaza ko bikuze.

Umugore uri gutambuka mu muhanda wambaye igitambaro mu mutwe, umupira urimoturongo n'gitenge hafi ye hari ubusitani buri ku muhanda kandi n'icyapa hafi inyuma ye hari ibendera ry'igihugu cy'urwanda.

Umuhanda munini cyane kandi mwiza urimo ibikorwa remezo byinshi bitandukanye birimwo amazi, umuriro, ndetse n'amashanyarazi hari ibiti byiza byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Ifoto igaragaza nyakubahwa perezida wa repubulika yu Rwanda, wambaye ishati y'amaboko n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto, biragaragara ko uwayifashe ari umuhanga cyane mu gufotora.

Abantu bigaragara ko bari mu nama, ni abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe kandi bahuje umugambi, bari kuganira kugira ngo babashe kumva ibibazo n'ibitekerezo byagirira igihugu akamaro.

Abaturage biganjemo urubyiruko, abagore n'abagabo, bambaye imipira y'umweru ndetse n'ubururu, bigaragara ko bari kwamamaza umukandida wabo.

Abagore ubona ko bizihiwe bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'imishanana y'umuhondo, umwe afite uruvugiro mu ntoki bigaragaza ko ari kwamamaza umukandida kugira ngo azayobore igihugu.

Abagabo babiri bahagaze imbere bambaye amakoti meza ndetse n'amashati asukuye, amapantaro atagira uko asa bigaragara ko bari gutanga igihembo bakoreye, inyuma yabo hari umugore wambaye ibirahuri byu umukara.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru. Uri kumwe n'abarinzi b'umutekano, arimo kwiyamamaza.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'abagabo bambaye ingofero z'imituku batwaye moto, hafi yabo hari icyapa kinini cyane kiriho ifoto ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari kwiyamamaza kugira ngo bamutore.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahagaze hamwe n'umucamanza mukuru, ari kurahira indahiro yo kugira ngo azayobore igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro kandi ashyigikiwe na madame janete kagame.

Umugabo winjiye mu cyumba k'itora ari gutora umukandida, iruhande rwe hahagaze umukobwa usa n'aho ari kumuyobora inzira arifashisha atora umukandida.

Umugabo munini cyane wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru. Ufite umusatsi utari mwinshi cyane ariko w'imibiri yombi. Imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse n'uruvugiro ari kwifashisha mu gutanga ikiganiro.

Umugore bigaragara ko akuze cyane, afite umusatsi mwiza w'umukara, yambaye igitenge ndetse n'ishati y'umweru, ku kaboko ke hari akantu k'umukara, bigaragaza ko ari agakomo kandi ameze neza arasukuye.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ari kumwe n'abandi bayobozi biganjemo abagore n'abagabo bambaye amakoti meza cyane n'amapantaro ahenze, iruhande rwabo hari ibiti byiza cyane bibafasha kuyungurura umwuka duhumeka.

Abaturage benshi bakoraniye ahantu hamwe bazamura amabendera yabo bereka umuyobozi mukuru wabo ko bamwishimiye cyane ndetse bamukunda

Abaturage benshi, biganjemo abagore n'abagabo, bicaye mu cyuma k'inama bateze amatwi, umuyobozi ari kubabwira ibyabateza imbere...

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Abagore basobanutse mfashe ibendera ry'igihugu bamanitse akaboko, bigaragara ko bari kurahirira inshingano bagomba kuzakora mu myaka iri imbere no kubahiriza amategeko yose asabwa n'igihugu kugira ngo bubahirize inshingano zabo.

Abaturage benshi cyane biganjemo abagore n'abagabo bafite icyapa kiriho umukandinda uri kwiyamamaza ari mu modoka isa umweru.

Amafoto agaragaza nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ari kumwe n'abamucungira umutekano bambaye impuzankano y'umukara ndetse n'ingofero hari kandi abaturage benshi cyane uburyo babona ko bamwitayeho cyane.

Abakecuru ubona ko bishimye bambaye imishanana y'umutuku nubururu bazamuye amabendera hejuru bigaragaza ko bari kwamamaza umukandida wabo.

Abaturage benshi cyane barimo abagore n'abagabo bigaragara ko bishimiye ko baje kwamamaza umukandida wa bo. Imbere yabo hari umukecuru wambaye imishanana y'uburu urimo ubyina cyane.

Abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe, umwe yambaye ikoti ry'umukara. Bigaragara ko agaragiye umuyobozi uri gutanga ikiganiro ku baturage, kigamije kwiyamamaza ndetse no kubabwira imigabo n'imigambi azabageza mu miyoborere ye ya buri munsi.

ifoto igaragaza nyakubahwa perezida wa repubulika y'urwanda afite ijambo arimo kwiyamamaza yambaye umupira utukura n'ingofero y'umukara

Ifoto igaragaza perezida wa repubulika y'u rwanda yitabiriye igikorwa cy'amatora aha biragaragara ko ari gushyiramwo uruhare rwe mu gutora umukandida wifuza.

Abaturage benshi bambaye ingofero, imipira y'umweru ndetse n'umutuku bigaragara ko bari kwamamaza umukadinda kugira ngo bazamutore mu minsi iri imbere.

Abaturage benshi bari mu ngeri zitandukanye abagore, abagabo, abana, abakecuru n'abasaza babukereye baje gushyigikira umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika.

Abagore ubona ko bakuze cyane bahagaze ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, barishimye cyane ku buryo ubona ko nta kintu cyabahungabanya nyuma yabo hari ibiti bitandukanye kandi byiza dufite umwuka mwiza .

Abaturage bateraniye ahantu hamwe biganjemo abana urubyiruko ndetse n'abagore n'abagabo bigaragara ko bari kumva ikiganiro.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'itora gitatse neza, kirimo amabara menshi atandukanye yiganjemo umuhondo icyatsi ndetse n'ubururu, biri mu ibendera ry'u Rwanda.

Ikirango kigaragaramo ikarita y'igihugu harimo amabara akurikira: icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Harimo kandi imirasire y'izuba.

Umuyobozi wambaye karuvati itukura, ufite uruvugiro mu ntoki, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro ku baturage bamukurikiye. Hafi ye hari icyapa kiriho imisozi.

Abayobozi mu nzego nyinshi zitandukanye bigaragara ko bari mu nama, biganjemo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa bari kwifashisha mu kubika amakuru.

Umugore munini cyane ufite imisatsi y'umukara ndetse n'ikoti, yambaye ishati y'umweru imbere ye hariho ameza ateretseho ibitabo ndetse n'amazi, inyuma ye hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimwo imodoka ndetse moto, hafi y'aho hari abantu bari kugenda n'amaguru n'abandi bambaye ingofero z'umutuku.

Umugabo uri gutambuka mu muhanda munini cyane, bigaragara ko yikoreye imifuka uremereye cyane. Harimwo imodoka iri mumabara y'umweru n'umukara, iri gutambuka hafi aho. Iruhande hari ibiti birebire,...

Ifoto igaragaza umugabo wambaye imyenda y'akazi ndetse na bote z'umukara, ari gukora isuku afite igikoresho yifashisha mu gutwara imyanda.

Agace gakoraniyemo ibinyabiziga byinshi byiganjemo moto hafi aho ngaho hari abagabo bambaye ingofero z'imihondo ndetse n'iz'imituku bigaragara ko ari nijoro kuko amatara arimo kwaka hafi aho.

Imodoka iri kugenda mu muhanda yikoreye ibintu byinshi cyane ubona ko biyirusha ubushobozi, inyuma yaho hari moto itwawe n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku, iruhande yayo hari ibiti birebire bigaragaza ko ari ishyamba.

Abagabo babiri bari kugenda mu muhanda bicaye kuri moto bambaye ingofero zitukura n'umuhondo, bageze hafi y'inzira y'abanyamaguru bambukiraho bajya mu rugo.

Ubwoko bunini cyane bw'imodoka, iri mumabara y'umutuku umweru ndetse n'umukara, yifashishwa mugutwara ibikoresho by'ubw'ubatsi, birimo imicanga, amabuye, sima ndetse n'ibindi. Hafi yayo hari ibiti birebire ndetse n'uruzitiro rw'ingo.

Umugore wirabura wambaye amadarajya ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'umweru n'umukara ufite umukufe w'umweru mu ijosi wicaye.

Agace keza gatuwe cyane bigaragara ko hakorerwamo imirimo y'ubucuruzi butandukanye hari kunyurwamo umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo nka moto itwawe n'abagabo babiri bambaye ingofero zitukura harimo kandi imodoka n'abantu bari hafi aho.

Utumoto tubiri turi kugenda mu muhanda w'igitaka turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, hafi yatwo hari ibiti birebire cyane bigaragara ko biri gutanga umwuka wo guhumeka.

Umuhanda munini cyane, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Hafi aho hari imodoka iri mu mabara y'umukara n'umweru. N'indi iyo mabara y'umutuku. Hafi aho hari igare ritwawe n'abagabo babiri, bigaragara ko bari kujya mu cyerekezo kimwe.

Akamodoka keza cyane kari mu mabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'amapine yumukara kari kugenda mumuhanda mwiza kandi usukuye hafi aho hari urukuta rwa sima rukikije nicyo gihari

Imodoka ikurikiwe na moto ebyiri, munsi y'umuhanda harimo ibiti birebire cyane by'icyatsi ndetse n'amazu menshi ari hafi aho.

Imodoka nini y'umweru irimo kugenda mu muhanda, hafi aho hari abantu batwaye amagare yabo ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi.

Umuhanda munini cyane uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye harimo akamoto gatoya k'amapine atatu gasakajwe ihema, hari n'izindi ziri gutambuka hafi aho ngaho zitwawe n'abagabo bambaye ingofero z'umutuku.

Imodoka nini cyane iri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'utugarura rumuri inyuma yayo, ifite ibirango by'umuhondo ndetse n'abagabo bari gutambuka hafi yaho bigaragara ko ari nijoro, umuhanda irimo iri kugenda imeze neza cyane.

Umugore wambaye ingofero w'inzobe akaba yambaye umupira urimo amabara y'umuhondo, n'umweru, n'umukara, ukaba usa ubururu arimo ibintu bizengurutse inyuma ye hari umubati bubajwe mu mbaho ku gikuta gisa umuhondo hariho igishushanyo cy'inyenyeri akaba afite amajerekani nama tereminsi.

Umuhanda munini urimo ingeri nyinshi n'abantu benshi batandukanye; bigaragara ko ari nijoro. Uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshiki bitandukanye byiganjemo amagare, amatara ari kwaka cyane.

Umuhanda mugari cyane ugaragaza ibyerekezo birenze bine uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo imodoka y'ubururu n'umweru ndetse n'ikindi kinyabiziga bita moto hafi yabyo hari inzu iriho amatara menshi atandukanye agomba kumurika .

Imodoka nyinshi ziri gutambuka hafi y'urusisiro ubona ko hakorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye hafi aho hari umuhanda mwiza cyane .

Imodoka nini cyane iri kugenda mu muhanda, iri mu mabara y'umweru n'icyatsi, Itwaye abagenzi benshi batandukanye, bari kuyigendamo. Hafi yayo hari ibiti.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari iz'ubucuruzi hafi y'aho hari ubusitani bwiganjemo imikindo idufasha kuyungurura umwuka duhumeka, hafi aho hari imodoka zihagaze ahantu habugenewe.

Imodoka nyinshi zitandukanye bigaragara ko ziri kugenda mu muhanda usukuye kandi mwiza, ziri mu mabara y'ubururu n'umweru ndetse n'amapine y'umukara, iruhande rwaho hari urupangu rurerure cyane rufite amabara y'umuhondo kandi asukuye.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka itwaye ibintu bigaragara ko ari ibicuruzwa kandi iraremerewe cyane.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa fuso itwara ibikoresho byinshi bitandukanye birimo amasima ndetse n'ibindi, iri kunyura mu muhanda mugari cyane ukikijwe n'ibiti birebire.

Imodoka nini iri kugenda mu muhanda, itwaye ibicuruzwa byinshi bitandukanye; ibavanye mu gace kamwe ibijyana ahandi. Biragaragara ko ifite imbaraga nyinshi cyane kuko ntawabasha kubyikorera ari wenyine.

Imodoka nyinshi cyane zishoreranye bigaragara ko zipakiye ibintu byinshi bitandukanye. Ziri kujyenda mu muhanda, hafi aho hari icyapa kigaragaza ko aho ngaho hatari aho baparika.

Imodoka nyinshi zitandukanye zihagaze ahantu hamwe harimo izitwara abagenzi mu buryo buri rusange mu mabara yayo meza kandi ateye kuyareba n'ijisho.

Umuhanda munini urimo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, uri kunyurwamo imodoka nini cyane. Hafi yaho hari inzu nini biragaragara ko ikorerwamo n'uruganda rukora ibintu bitandukanye.

Imihanda ibiri Nyampanga iri mu byerekezo bitandukanye iri kunyurwamo n'imodoka iri mu mabara ajya kuba umweru, hafi yaho hari ubusitani butandukanya iyo mihanda.

Umuhanda munini usukuye uri mabara yu'mweru n'umuhondo, uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri imwe iri mu mumabara y'icyatsi n'umweru, iruhande rwayo hari ibiti birebire bikikije aho ngaho kugirango habashe kugira umutekano uhagije.

Imodoka nini cyane iri hafi mu muhanda mwiza ubona ko iri kwangiriza ikirere kuko iri gusohora imyuka itari myiza, ubona ko iri kwangiriza abaturage baturiye ako gace.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byiganjemo moto, ndetse n'imodoka. Hariho abagabo bambaye ingofero zitukura, n'indi myenda y'imihondo. Hafi yaho hari ubusitani burebure.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko, bari gutambuka mu muhanda mugari, hafi y'akamoto k'amapine atatu. Iruhande yako hari inzu nini cyane kandi isukuye.

Umuhanda munini wiganjemo ibinyabiziga nka moto ndetse n'amagare harimo kandi imodoka itwaye ibintu byinshi bitandukanye birimo ibicuruzwa bivuye ahantu hamwe bijya ahandi bikenewe munsi yayo hari ibiti birebire birinda ubusugire bwaho.

Umuhanda mwiza cyane, uri kunyurwamo na moto, itwawe n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku.

Imodoka nini irimo kugenda mu muhanda, hafi aho hari amazu menshi atandukanye akorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'imikino y'amahirwe.

Imodoka y'umweru ndetse niy'umutuku zihagaze imbere y'amazu menshi atandukanye harimo akorerwamo imikino y'amahirwe.

Umuhanda munini uri kugendwamo n'imdoka nyinshi zitandukanye, harimo iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara n'uturongo tw'umutuku. Hejuru yayo hariho ibyuma biyifasha gutwara ibintu byinshi.

Ubusitani bwiza bwiganjemo imikindo n'ibiti bya geleveriya, biri hafi y'umuhanda uri kunyurwamo n'abantu batwaye moto n'ingofero z'imituku.

Ahantu heza cyane harimo amazu menshi y'ubucuruzi akorerwamo ibikorwa bitandukanye, hafi aho ngaho hari imodoka iri kugenda mu muhanda ndetse na moto itwawe n'abagabo babiri bambaye ingofero y'umutuku n'umuhondo.

Imodoka nini ishinzwe gutwara imizigo ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi, iri mu mabara y'umweru n'umukara, iri gutambuka mu muhanda, hafi yayo hari ibiti birebire, bizitijeho akayunguruzo k'icyatsi.

Umuhanda munini cyane uri kunyurwamo n'akamoto gatoya k'amapine atatu gasakaje amashitingi y'ubururu ariho ibirango bya pirimusi, iruhande yako hari ibiti birebire cyane bizitiye.

Imodoka nini cyane yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu ihagaze ahantu hamwe hariho abantu barikujya kuyisatira ngo bayinjiremo hafi aho hari igare n'umugenzi uritwaye.

Abamotari benshi bahagaze ahantu hamwe bigaragarako ariho baparika hafi aho hari icyicaro gikuru cya MTN.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini, amamodoka aragenda, ndetse n'abanyamaguru baragenda, n'iyo haba na nijoro. Kuko mu muhanda harimo amatara, kugeza abantu bageze iyo bajya. Ubu biroroshye, kuko na n'ijoro ugenda umurikiwe.

Umuhanda urimo kugendwamo n'imodoka nyinshi zitandukanye harimo izitwara abagenzi, imizigo ndetse n'ibindi. Ifite amabara menshi atandukanye nk'umutuku, umuhondo, n'umweru.

Imodoka nini cyane iri mabara y'umukara n'umweru iri kugenda mu muhanda munini cyane, hafi yayo hari abagabo batwaye moto bambaye ingofero z'umutuku, iruhande rwabo hari ibiti birebire cyane byakuze neza.

Imodoka nziza cyane ngufi kandi ifite imyanya mike, iri kugenda mu muhanda bigaragara ko yagenewe kwigishirizwaho gutwara ibinyabiziga.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo igare, abantu ndetse n'imodoka zifashishwa mu gutwara ibicuruzwa zibivana hamwe zibijyana ahandi bigenewe.

Imodoka iri mu mabara y’ubururu ipakiye amakaziye y’inzoga nyinshi zitandukanye. Hafi yayo, hari moto itwaye abantu babiri bambaye ingofero y’ umutuku, ni umugabo numugore.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri. Hafi aho hari ibiti birebire cyane, iruhande hari itwaye inzoga z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Imodoka nini iri mu mabara y'ubururu, n'umweru, ndetse n'umukara, yagenewe gutwara abagenzi benshi batandukanye, kandi muburyo bwa rusange kugirango hagabanye umurongo uba uri muri gare.

Umugabo utwaye imodoko, isa umweru ndetse n'icyatsi, iruhande rwe hari abantu babiri, umwe yikoreye umufuka uremereye cyane, undi ari gusunika ipine y'imodoka.

Imodoka nini iri mu mabara y'umukara n'umweru iri kugenda mu muhanda, hari kandi ibiti birebire byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka kugira ngo tutagira ikibazo cyo kubura imbaraga.

Ikibuga gisukuye, kirimo umucaca mwiza w'icyatsi, bigaragara ko ari ahantu bakinira imikino itandukanye. Hariho intebe nziza ndetse n'igisenge gisakariye aho.

Ahantu heza hasukuye bigaragara ko hari ikibuga kiberamo imikino myinshi itandukanye irimo nk'umupira w'amaguru, iruhande rwacyo hari abantu benshi batandukanye bigaragara ko baje muri iyo myidagaduro n'ubusitani bwiza cyane.

Ahantu heza cyane, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'imyidagaduro. Hateguwe intebe nziza cyane z'icyatsi zicaweho n'abantu batatu.

Ahantu hasukuye kandi ubona ko ari mu kigo cy'amashuri harimo ibibuga byinshi bitandukanye bigaragaza ko bari mu myidagaduro myinshi hari kandi amashuri ageretse afite ibisenge byiza.

Ikibuga cy'imyidagaduro gikoze neza kandi cyubakanywe ubuhanga biragaragara ko haberamo ibintu byinshi bitandukanye, hafi yacyo hari ibiti birebire byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Ahantu hakorerwa imyidagaduro myinshi itandukanye harimo ibikoresho kandi ubona ko byateguwe n'urwego rubishinzwe hairimo kandi ibiti birebire byifashishwa mu kuzana umwuka mwiza hafi aho.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari ahakorerwa imyidagaduro itandukanye, hariho ikibuga kinini cyane k'isanzuye kandi giteyemo ubwatsi buteye amabengeza, kandi hari n'ibiti birebire cyane bifasha mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Inzu nini iri mu mabara y'icyatsi n'umweru, yubakishijwe amatafari ahiye n'imiryango y'umweru, hafi aho ngaho biragaragara ko bacuruza imiti yifashisha mu kuvura abantu.

Icyapa kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari inzira abanyamaguru bambukiramo kugira ngo agabanye umuvuduko agenderaho.

Abaturage benshi bari hafi y'umuhanda, hafi yabo hari ibiti birebire cyane ndetse n'icyapa kiri mu mabara y'umweru n;umukara. Kiranga amerekezo ya karere ka Muhanga.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto, hafi yaho hari ibiti binini cyane bigaragaza ko hariho ubusitani, iruhande yawo hari icyapa kirekire cyane kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Icyapa kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga ko ahongaho ageze hatari aho baparika ikinyabiziga ko bitemewe.

Icyapa kirekire kiri mu mabara y'umweru n'umutuku ndetse n'ikirango cy'umukara, hafi aho hari umuhanda bigaragaza ko ntihari inzira y'abanyeshuri.

Urusisiro rurimo ibikorwaremezo bitandukanye bigaragara ko ari ahantu heza cyane, hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru kigaragaza amerekezo ye, y'uturere ndetse n'imijyi itandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kiburira abagenzi ko bagomba kwambuka cyangwa bagomba guhagarara kiri hafi y'ibiti byiza cyane ubona ko bifite ifumbire.

Umuhanda muremure unyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, hafi aho hari undi ushamikiyeho, iruhande hari ibiti birebire byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka kugirango tubashe kubaho ubuzima bwiza.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, kibwira umuyobozi w'ibinyabiziga cyangwa undi wese waba ufite mu nshingano kugitwara ko abujijwe ku guhahagarara.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, kirimo utwana tubiri bigaragara ko hafi aho ngaho hari inzira y'abanyamaguru, biburira umuyobozi w'imodoka ko atagomba kugenda yihuta.

Umuhanda munini kandi usukuye uri kunyurwamo n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, hafi yawo hari icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru kiranga amerekezo y'imijyi ndetse n'uturere.

Ibyapa bibiri biri hafi y'umuhanda bigaragaza ko imbere hashobora kuba hari inzira y'abantu bafite ubumuga, hari kandi n'ibiti birebire bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda uri hafi y'icyapa kiri mabara y'umutuku n'umweru hafi yawo hari ibiti ndetse n'umukindo bigaragara ko bisukuye cyane.

Icyapa kibwira abayobozi b'imodoka ko imbere bagiye kugera hari umuhanda ushamikiyeho ko bagomba kwitonda kugira ngo badateza impanuka.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ko hafi aho ngaho hatemerewe kunyura imodoka nini cyane ku buryo kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Icyapa kirekire kiri mu mabara y'umutuku n'umuhondo ndetse n'ikirantego cy'umukara kigaragaza ko imbere hari umuhanda ushamikiye ku wundi urimo kugendamo. Hafi yaho hari ibiti birebire cyane kimwe cyumye kandi cyashizeho amababi.

Umuhanda munini cyane bigaragara ko uri ahantu hadatuwe cyane, hafi yawo hari icyapa kigaragaza ko ugomba kuba uhawe ikaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru kibwira umuntu utwara igare ko atemerewe kuhanyura kuko byateza impanuka cyane, hari kandi n'amagambo meza cyane ari mu nyuguti z'umweru.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, kiriho kigaragaza ko umuyobozi w'ibinyabiziga akwiye kwitonda kuko imbere hari inzira y'abanyamaguru.

Inzu nziza bigaragara ko iri ku muhandamiruhande rw'iyo nzu hari uruzitiro rwiza cyane ndetse n'ubusitani bigaragara ko bwitaweho neza.

Umugabo munini cyane wambaye ingofero y'umutuku atwaye ikinyabiziga twite moto, kiri kugenda mu muhanda mwiza cyane usukuye, uri mu mabara y'umweru umukara n'umuhondo, hafi yaho hari inzu nziza cyane ubona ko yitaweho.

Urusisiro runini cyane rurimo amazu menshi meza, hafi yayo hari imikindo miremire cyane bigaragara ko yakuze kandi neza hariho ibyapa byinshi cyane kandi biranga ibyo bakora.

Mu busitani bwiza bwiganjemo ibiti birebire ndetse n'umucaca mugufi. Bigaragara ko baba bateganya ko umuntu uzaharuhukira aba afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igorofa rirerire ubona ko ryubakanywe ubuhanga, ku buryo uwateguye uyu mushinga yabanje kuwiga neza, hari ibikorwa remezo biri hafi aho birimwo, amashanyarazi, ndetse n'amazi n'imihanda.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Umuhanda muremure, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Harimwo imodoka na moto. Hafi yabyo hari igorofa rirerire.

Umuhanda mu nini ukukijwe na mazu meza cyane hafi aho ngaho hari imodoka nyinshi zitandukanye ziri mw'ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako nziza isukuye kandi ifite amarangi meza n'ibirahuri bikeye, hafi aho ngaho hari umukindo muremure ufasha kuyungurura umwuka, maze abari aho bakagubwa neza.

Igorofa ryiza kandi rirerire ryubakishije ibirahuri ndetse n'amatafari ahiye, imbere yaryo hari inzu z'ubucuruzi zikorerwamo imikino y'amahirwe.

Igorofa rirerire ubona ko ryubatse neza cyane kandi risukuye. Riri hafi y'umuhanda imbere yaryo hari amazu meza cyane kandi magufi.

Igorofa rirerire bigaragara ko ari ryiza cyane ryubakishije ibyuma, amatafari ndetse n'ibirahure. Hejuru yaryo hari agaseke keza cyane bigaragara ko ari inyubako y'akarere ka Gasabo.

Ishyamba rinini cyane bigaragara ko ari inzitane rifite ibiti byinshi cyane by'icyatsi bigaragara ko bigoye kurinyuramo ari nijoro cyane.

Uruhererekane rw'amazu meza kandi akomeye asize amarangi y'mweru ndetse hafi aho hari imashini ihinga ndetse n'ubusitani bwiza bigaragara ko ari mu ruganda rutunganya ibintu byinshi bitandukanye.

Ahantu heza mubona ko hagenewe guturwa, hari amazu menshi cyane kandi meza urabona ko yubatswe mu gihe gitoya kandi afite uburambe buhagije.

Inyubako nini bigaragara ko ari urusengero rusengerwamo n'abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, abana abakecuru n'abasaza, rukikijwe n'ibiti birebire by'umukindo bigaragaza ko hari isuku.

Umuhanda munini cyane ukikijwe n'imikindo miremire cyane, yifashisha mu kuyungura umwuka duhumeka. Hafi aho hari ubwoko bwinshi bw'imodoka ndetse na moto.

Umuhanda munini cyane mwiza Kandi usukuye, bigaragara ko uri hafi y' ishyamba ryiza cyane rifite ibiti birebire cyane , bikomeye Kandi bibereye ijisho

Umuhanda munini cyane uri ahantu hasukuye hafi y'ubusitani buteye amabengeza ndetse wakifuza gusohokeramo kandi ukahagirira ubuzima bwiza. Iruhande yabwo hari igorofa rirerire cyane ryubatse kandi n'ubuhanga.

Igorofa rinini cyane ryubakanye ubuhanga buhambaye. hariho ibyuma, amasima, ndetse n'ibirahure. Bigaragara ko ari icyumba gikorerwamo imikino y'amahirwe, kandi iratsinda. Hafi aho ngaho hari utundi dutoya kandi natwo dukora.

Igorofa rirerire ryiza cyane rifite amarangi y'umweru ndetse n'uruzitiro. Hafi aho hari ubusitani bwiza cyane rurimo ibiti birebire.

Moto, umumotari, kasike, ikirahure, icyapa, imodoka, parikingi, ibiti, uruzitiro, ubusitani.

Urusisiro rwiza cyane bigaragara ko rutuwe cyane harimo amazu meza atandukanye kandi yiganjemo aya kijyambere, hafi aho hari imodoka iri mu mabara y'umukara.

Ifoto igaragaza agace gatuwe cyane karimo ibikorwa remezo bitandukanye, nk'inganda z'amazi, umuriro, ndetse n'ibindi. Hafi aho hari ibisenge bigaragara ko bishaje, ariko bikwiye kuvugururwa.

Ahantu nyaburanga hategurirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa bigaragara ko ari muri hoteri, hafi yaho hari umuhanda mwiza cyane n'ubusitani busukuye kandi bwiza.

Heza kandi hasukuye bigaragara ko hari ibikorwa remezo byinshi bitandukanye birimo amazu, amazi, n'amashanyarazi. Hari kandi ibiti byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka, ku buryo umuntu wasohokeye aho hantu aba nta kibazo afite.

Urusisiro runini cyane bigaragara ko ari mu mujyi, harimo ibiti byinshi n'busitani bukomeye cyane, ku bisenge byiza bibereye ijisho, hafi yabyo hari amabati asakaye akantu gaciriritse.

Isangano ry'imihanda ihurira ahantu hamwe inyurwamo n'imodoka, amagare ndetse na moto, hirya yaho hari ibiti birebire bisukuye bifashishwa mu kuyungururara umwuka.

Umuhanda aho abagenzi bambukira, umuntu, igiti, ishyamba, ipoto.

Ihuriro ry' imihanda myinshi itandukanye , igaragaramo inzira abagenzi bambukiramo, imodoka ziba zihagaze gatoya kugirango babanze bambuke, bagere aho bajya.

Umuhanda ugaragaramo inzira nyabagendwa yambukirwamo n'umugenzi, imodoka nayo kumwe n'umuyobozi wayo yabanje gutegereza umugenzi ngo yambuke.

Umugenzi urikugenda mu muhanda, urimo moto nyinshi cyane ndetse n'abantu bazitwaye, imbere yabo hari ibyapa bibwira abagenzi ko bagomba kwambuka cyangwa bagomba guhagarara umwanya muto.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari urusisiro rutuwe cyane, harimwo amatara menshi cyane ari kwaka kandi ni nijoro.

Umuhanda munini cyane wiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye kandi bisukuye hari inzira y'abanyamaguru bifashisha bambuka.

Abagabo babiri bicaye bagenda iruhande rwabo hari imodoka iri kugenda inyuma yabo hari umugabo ugenda iruhande, iruhande rwabo hari ibiti.

Ibinyabiziga, nk'igare ndetse na moto, biri kumwe n'abantu bari mu muhanda biragaragara ko ari nijoro kuko amatara arimo kwaka cyane.

Umuhanda munini Urimo imodoka ibyeri z'umweru, n'inzira abanyamaguru bambukiramo bataha mungo zabo.

Ahantu bigaragara ko ari mu isangano ry' imuhanda, hafi aho ngaho hari ubusitani bwiganjemo indabo ,ndetse n' ibinyabiziga bicanye amatara bigaragarako ari nijoro .

Umuhanda ugaragaramo ahantu abanyamaguru bambukira. Harimo moto zirimo kugenda, ndetse n'ibyapa biburira abagenzi bambuka.

Umuhanda munini cyane bigaragara ko usukuye kandi witaweho mu kuwutunganya no kuwutegura, harimo inzira y'abanyamaguru bifashisha kugira ngo babashe kuva hamwe bajya ku rundi ruhande, hari kandi ibiti byiganjemo imikindo.

Umuhanda munini cyane uri mu byerekezo bitandukanye hari uri kunyurwamo n'imodoka ihagaze itegereje ko umunyamaguru abanza kwambuka kugira agere hakurya y'umuhanda.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo moto, amagare ndetse n'imodoka zitwaye ibicuruzwa byinshi bitandukanye, zibivana ahantu hamwe zibijyana ahandi kugira ngo bikoreshwe.

Isangano ry'imihanda myinshi itandukanye iva mu bice birenze kimwe. Hariho inzira y'abanyamaguru bambukiramo igihe imodoka zabaye nyinshi, kugira ngo zibategereze babanze bagere aho bajya. Hari kandi ubusitani bwiza bufasha mu guhumeka.

Umuhanda munini kandi cyane wuzuyemo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka, amamoto ndetse n'amagare, hafi yaho hari inzira y'abanyamaguru bifashisha mu kwambuka.

Isangano ry'imihanda myinshi itandukanye ihuriye ahantu iri kunyurwamo n'imodoka nyinshi ziturutse mu mpande zose kugira ngo zihurire aho hantu, hari kandi inzira y'abanyamaguru yifashishwa mu kwambukiranya bava hamwe.

Umuhanda munini cyane urimo imirongo myinshi y'umuhondo ndetse n'indi y'umweru hafi yayo hari ibiti bihakikije kandi ubona ko ari byiza.

Umuhanda munini cyane bigaragara ko uhagije. Harimo ibyerekezo bibiri bijya ahantu hamwe. Hafi yaho hari ubusitani bwiza cyane, bwiganjemo ibiti bidufasha kuyungura umwuka.

Isangano ry'imihanda myinshi itandukanye ihurira ahantu hamwe, hariho ubusitani, imodoka, moto, ndetse n'ibiti byinshi.

Ihuriro ry'imihanda myinshi i ubona ko ifite ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka hafi yayo hari ibiti ndetse n'amapave meza.

Ibinyabiziga birimo igare, imodoka ndetse na moto. Biri kugenda mu muhanda munini, ukikijwe n'ibiti by'icyatsi. Harimwo abagenzi batandukanye.

Imihanda ibiri itandukanye, hagati yayo hariho ubusitani bwiganjemo umukindo, ndetse na moto ni kugenda hafi yawo. Iruhande hari ibiti byiza cyane, ubona ko bishamaje.